A photo taken by Legendary Studio! There are two men wearing Rwandan Clothings, seems like they were in weeding ceremony